Umuzungu wambaye itaburiya y'umweru ufashe imiti myinshi hari iri mu ducupa, iri mu mashashi, n'iri mu dukarito. Hakaba harimo n'akandi gakarito, karimo inshinge.